Mu cyumba cyiza giteye amabengeza kirimo intebe nyinshi, izo ntebe zikaba zicayeho abanyeshuri benshi mu mwambaro w'umweru ndetse na kaki bakaba bakurikiye amasomo agiye atandukanye, bitewe n'ingingo bagezeho.

Ubusitani bwiza bw'amabengeza, inyuma yaho hakaba hari inzu nziza cyane y'amagorofa ageretse inshuro ebyiri n'ibiti byiza cyane mu ibara ry'icyatsi.